Umwana urwaye bajyanye kwa muganga, barimo bamutera urushinge yarize, mu musatsi we haririmo udusaro twinshi turi mu mabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Uyu n'umunyeshuri usa naho arimo arakora ubushakashatsi, yambaye ishati y'amaboko magufi y'umuhondo n'ikabutura ngufi y'ubururu.

Iyi ni inama yari yahuriwemo n'abantu benshi, abicaye imbere ni abari butange ibiganiro, abicaye bari kubareba, na bo ni abari bagenewe guhabwa ibyo biganiro nk'uko bigaragara.

Ni abaganga babiri bambaye udupfukamunwa bikwije, bameze nk'abarimo batanga ubuvuzi cyangwa inkingo, bambaye imyenda y'ubururu.

Abadamu babiri bahuriye ku iriba ry'amazi, umwe yambaye igitenge cy'icyatsi n'agashati k'umweru, undi gisa umutuku n'agashati karimo uturongo tw'umutuku, bafite amabido menshi y'amazi.

Uyu muntu arimo aragaragaza uburyo bwiza bwo kozamo amamenyo, kuburyo nta twanda na tumwe dusigaramo. Iyo uri koga mu kanwa, wibuka no gucisha hagati, kuburyo nta myanda isigara hagati mu myenyo.

Ni abantu babiri, umwe muri bo yambaye ikote ry'ubururu, undi risa umutuku, hakurya y'abo hari imeza iriho uducupa dutatu tw'amazi.

Aba ni abantu babiri umwe ni umuzungu w'imisatsi miremire, undi akaba umwirabura udafite na muke bameze nkaho bari gufashanya kuko harimo urwaye.

Abantu batatu, umwe arakuze abandi basa nk'aho bakiri bato, barimo baramufasha bicaye ahantu hari amashuka y'umweru.

Umuganga n'umurwayi bose banezerewe, uko bigaragara yahawe serivisi nziza, yitaweho, yakorewe buri kimwe cyose gisabwa.

Aba ni abantu babiri. Umugabo n'umugore. Bameze nk'aho bari kwigira hamwe uburyo bwiza bwo gufatamo imiti. Umwe agaragara nk'aho arwaye, undi akaba ari we kumwigisha.

Ikusanyirizo ry'imiti ryitwa Iraguha hejuru yaryo handitseho ibigo by'ubwishingizi, bikorana naryo mu imbere hagaragara umudamu uri kumwe n'akana.

Uku ni ko hasa ku bitaro bya Kabgayi, ukihinjira uherako ubona ibiti by'icyatsi, amazu atambika yerekeza mo imbere, ubona abantu benshi bagenda.

Iri ni ikusanyirizo ry'imiti idakunze kuboneka cyane mu mavuriro, iyo uyibuze ahandi hose uyishakira hano. Hagaragaramo imiti iba ihenze cyane cyangwa idakunze kugaragara.

Iyi ni inzu iri mu ibara ry'umweru, igisenge cy'ubururu amadirishya, ndetse n'urugi, yahariwe ababyeyi batwite, iyo hagize uza bamufashirizamo.

Abantu babiri, bari mu cyumba kimeze nk'icyo kwa muganga, umwe yicaye ku ntebe, yamanuye umupira cyangwa ishati, bari kumutera urushinge; bisa nk'aho arwaye. Hakurya ye hari abandi bantu, baje kwivuza nabo.

Umuntu uzamuye ukuguru yambaye imyenda n'inkweto bisa byose biri mu ibara ry'icyatsi, hirya ye hakaba hameze nk'ahari amazi na we arimo arakora imyitozo.

Umuntu wavunitse wifashe ku ivi, bisa nk'aho yari avuye mu myitozo ngororamubiri, yambaye isaha y'umukara n'ikabutura ngufi.

Umuntu barimo abagorora ubafite terefone mu ntoki, yambaye isaha y'umweru, agapira k'ubururu, hakurya ye hari imashini.

Iki ni ikimera bateye ahantu hameze nk'ahadatuwe kuko hakurya hagaragara amatiyo atambika y'amazi, bisa nk'aho aha ngaha hatagera ahantu.

Ikimera cyitwa igikakarubamba, kiri kumwe n'agacupa kari mu ibara ry'icyatsi, ryanditseho mu muhondo.